Uwo muntu ufashe agakoroboyi karimo ubutaka bw'umukara, afashe n'agahingo kicatsi mu ntoki, uyuka umuntu ukoraga mumaburatwari apimaga ibintu kugira ngo bizabyare umusaruro mwiza.

Ubutaka burimo ibinombe n'ibyatsi byatwitse, ubu bukaba ari ubutaka buvanzemo n'ifumbire y'amase bwifashishwaga kugira ngo butume ibimera bikora cane.

Itsinda ry'abantu ririmo abagabo n'abagore, harimo abagabo bambaye imyenda y'abashinzwe umutekano yo mu gwego gw'abapolisi n'ugwa gisirikare. Bari mu murima w'ibigori barimo kuguhinga.

Umuntu wambaye ibishashi by'umweru, uhetse mu mugongo igikoresho bakoresha bari gutera imit imyaka, kugira ngo n,iyo myaka itazahura n'ibibazo by'indwara, ndetse n'ibindi byinshi bituma bidakura.

Amacupa gagiye gakozwe mu buryo butandukanye gafite n'amabara gatandukanye arimo agicatsi nagubururu gafite imifuniko z'umuhondo gakaba ari amacupa gabikwagamo amasabune cangwa amavuta gakoreshwaga mu modoka.

Igicupa c'ubururu kiriho igipapuro c'umuhondo, canditseho amagambo ibi bikaba ari ibigunguru cangwa ibicupa bibaga birimo imiti yifashishwaga mu kugwanya udukoko mu mirima.

Umurima munini guhinze k'umurongo mu bujyo bwa kijambere ,guhagazemo umugabo uhetse ipompo wambaye n'agapfukamunwa n'ingofero y'umutuku urimo uratera imiti ku mboga z'amashu.

Umugabo w'umuzungu wambaye imyenda z'umweru, ufashe akantu k'ubururu k'agahombo kari kuvamo umuti wo gutera ibihingwa, bikaba bifashaga ibihingwa kubirinda indwara.

Igikoresho kikoreshwaga mu gutwara ibintu c'ingorofani, irimo ifumbire y'imborera iruhande rwayo hari n'ibindi byatsi birunze bitegerejwe kubora kugira ngo bivemo ifumbire.

Umurima munini guteye mu bujyo bwa kijambere, guhagazemo umuntu wikoreye imashini yifashishwaga mu gutera imiti ,akaba afashe agahombo kari gutera imiti ,ibi bikaba ari ubujyo bwifashishwaga mu gutera imiti kugira ngo ibihingwa bitagwara.

Icumba cubakishijwe ibyuma kirimo imifuka zitondetse ku murongo z'umweru, mu nsi yazo hari ibiti, bikaba ari ibyumba byubakwa kugira ngo habikwemo ibicuruzwa birangije gukora mu nganda.

Inyama z'amafi bashishuye zokeje zikaba ari inyama bajya bafata amafi mabisi bakayashishura, ubundi bakazotsa kugira ngo abaguzi bitabagora barimo barazitononjoramo amagufa.

Isahane y'umweru irambitseho inyama z'umutuku, ndetse ku ruhande hari imbuto z'indimu, no ku ruhande rw'isahane hari akantu k'igiti kaziritse, akaba ari uburyo butegugwamo amafunguro.

Inkoko cangwa intara irambitseho amafi matoya garobwe mu kiyaga ,gakaba ari amafi gajanwaga ku masoko kugira ngo abacuruzi n'abaguzi bacuruzaga mu masoko matoya, babashe kubona uko bahura n'abaguzi babo.

Amafi manini gakundaga kuboneka mu biyaga, garambitse ahantu ari menshi. Aga gakaba ari amafi gajanwaga ku isoko, kugira ngo bagacuruze abantu bagagure. Gakaba na go gagabanyaga imirire mibi kubera intungamubiri zago.

Iciyaga cinini cirimo ibigwa by'imisozi biriho ibiti, giparitsemo amato atatu, arimo ibiti birebire bihagazemo, abagabo babiri n'undi uri ku ruhande aba bakaba ari abarobyi babigize umwuga.

Imisozi myinshi zituyeho abantu ndetse ziriho n'ibiti bigiye bitandukanye ,zikaba zegeranye n'ibiyaga bivagamo amafi gatungaga abantu ndetse binakoreshwaga mu ngendo.

Umurima munini gwi'byatsi bw'igishanga gurimo umugezi ,umugezi gukaba gurimo ubwato bwicayeho umugabo ubyibushe, ukaba ari umugezi ukundaga no kubonekamo amafi manini.

Agakanete k'umweru karambitsemo amafi abiri manini arambitse muri barafu, gakaba ari amafi gabonekaga mu biyaga, bakaba bagagurishaga mu isoko kugira ngo abaturage bagabone bagajye.

Amafa abiri manini garambitse mu rubura. Akaba ari amafi gakundaga kuboneka mu biyaga. Aga mafi gakaba gashigwaga mu rubura kugira ngo gabashe kuba gamara igihe kinini, igihe abacuruzi batari bahura n'abaguzi.

Ibiti biziritse igihingwa c'ikidodoki cegeranye n'indabo z'umuhondo, ndetse n'agatsina k'akana kaba ari ikimera kimiregaho ibishayote.

Umurima munini gw'imitabo gudahinze gurimo igiti, bukaba ari uburyo bufasha abahinzi kugira ngo ubutaka bubashe kuba bwokongera kugira intungamubiri zibasha gukuza ibihingwa.

Umurima guhinze mu buryo bw'imitabo kaba ari uburyo abahinzi bahingaga imirima zabo kugira ngo babashe gukura ifumbire ibiri munsi cane mu butaka bizabasha gukuza ibihingwa byabo neza

Ikimera c'icatsi giteye ahantu hari ibyatsi by'inka, iki kikaba ari ikimera gikundaga gukoreshwa nk'imihati, kikaba ari ikimera gikoreshwaga mu gutandukanya imirima ndetse kikaba kinafite n'izindi mimaro myinshi.

Isambu nini hidahinze irimo ibyatsi byinshiyinshi, iteyemo ibiti bibiri byimizabibu, bikaba ari uburyo abahinzi barekaga umurima, umuryango bongere bw intungamubiri zo kumeza ibihingwa.

Umurima guhinzemo imitabo, inyuma yago hari igipangu cy'imigano. Ubu bukaba ari ubujyo abahinzi bahingagamo imirima zabo, kugira ngo zibashe kuba zatuma ibimera bikura neza.

Umurima munini basaruyemo ibigori，ndetse harimo n'igiti，ugo murima gukaba gwarumye， ukaba hari buryo，abahinzi barekaga umurima kugira ngo ubashe kugarura ubuyange bwo gukomeza ibigori.

Umurima munini guhagazemo abantu bari kuguhinga ndetse n'igiti kinini cy'umuvumu, ukaba ari umurima basaruyemo ibigori. Ubu bukaba ari uburyo abahinzi bareka umurima ukamanza ukazana ibizakoreshwa mu gukoza ireme...

Umurima guteyemo ibirayi，inyuma yaho hariho itsinda ry'ibitoki ndetse n'igipangu kiriho ibishayote byegereye inzu ya karabasasu， ibi bikaba ari ibihingwa bikundaga gucuruzwa mu masoko gagiye gatandukanye.

Igitoki ni igihingwa kimeraga ku nsina， kikaba ari ikimera bakoreshaga mu kukirya ari kibisi，cangwa se bakagitara kikavamo imineke， ariyo bakuragamo imitobe.

Itsinda ry'abagore bane bambaye ibitenge, bafite amasuka mu ntoki barimo barahinga umurima. Gwegeranye n'ibiti birebire aga masuka, akaba arigo gifashishwaga mu guhinga, ahantu hakundaga kuboneka amabuye menshi.

Ibihingwa by'ibigori, icatsi bikiri mu murima bikaba bihetse bibiri bibiri, bikaba ari ibigori biciri bito cane ukaba ari uburyo bukoreshwaga bari kubibiba.

Ibihingwa by'amashaza bikiri mu bishishwa byabyo, ibi bikaba ari ibihingwa abantu basaruraga bakabisogora bikavamo impeke bakoreshaga barimo guteka imboga, ndetse bikaba binafasha mu mirire.

Umugore ufashe igikarito cya purasitiki, yashizemo imboga izi zikaba ari imboga za kizungu. Nazo zifashishwaga mu gutegura amafunguro ga buri munsi, ndetse zinaboneka no ku isoko.

Igihingwa c'imyumbati citari casarugwa cikiri mu murima gurimo n'ibindi byatsi birambitse hasi byumye, iki kikaba ari ikimera gitangaga imyumbati zikoreshwaga mu gukora ubugari.

Igihingwa c'indimu, c'icatsi kiri mu murima kikaba ari imbuto zikoreshwaga mu gukora amasarade ndetse no gukiza abantu iyo bagwaye amagiripe.

Ibihingwa by'imiteja bikaba ari ibihingwa bikoreshwaga mu gutegura imboga, iyo babivanze na karoti n'ibishimbo, bikaba biteguraga imboga zujuje ubuziranenge ku bana bato n'abakuru.

Inzu isakaye munsi yayo harimo ibisima biriho ibiryo bigiye bitandukanye, birimo ibirayi n'imbuto zigiye zitandukanye z'imyembe, arizo bacururizaga mu masoko abaguzi bazaga kugura.

Inyamaswa bororaga mu rugo ya dendo y'umukara yicaye mu byatsi byumye, hejuru yayo hari ikindi giti cumye, iyi ikaba ari ubwoko bw'inyoni buturaga amagi manini, ndetse hari n'abazororeraga kuzijyamo inyama.

Imifuka z'umweru icenda, zipakiyemo ibirayi, ibi bikaba ari ibijyo bikundaga kuboneka mu majaruguru, bikaba bikunda kugugwa n'abantu bo mu ngo ndetse n'inzu zicuruzaga ibijyo kubera ibijyo bivagamo byinshi.

Abantu benshi bahagaze mu kirima kinini cirimo ibyatsi bizengurutswe n'indabo, ku ruhande hari umuhanda na rigori, akaba ari abantu babaga bari kuganiriza baturage.

Umugore wambaye igitinge n'agapira k'ubururu witeze n'igitambaro c'ubururu uri mu murima gw'ibirayi ,arimo kubagara akaba ari uburyo bwo gukuramo ibyatsi bitari ngombwa.

Igiti kicinze ahantu hari ibyatsi byumye kiriho imbuto z'ibipapayi bya kizungu ,ibi bikaba ari ibipapayi na byo bibonekaga mu masoko gagiye gatandukanye ariko ntibiboneke mu turere twinshi.

umugabo uri gukora mubasa y'ubururu, yuzuyemo imbuto z'amatunda, zikaba ari imbuto ziribwaga nyuma yo kurya cangwa mbere yo kurya, ndetse zikaba zinakoreshwaga mu gukora umutobe.

Igihingwa c'igitoki kiciri mu murima kizengurutswe n'amakoma y' icatsi, uku akaba ari ko igitoki gikuraga mu murima cimeze.

Imbuto z'amaronje zikiri mu giti cy'icyatsi, zikaba ari imbuto z'umuhondo zakoreshwaga mu gutegura amafunguro ya buri munsitsi kugira ngo abashe gusa neza.

Abaturage bazengurutse ahantu hateye uduhingwa dutoya, hakaba ari ahantu bakurira ingemwe z'ibiti n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, batajya batera mu bujyo busanzwe.

Ubwoko bw'inyoni y'umweru n'umukara, ariko budakundaga kuguruka nk'imbata. Bukaba ari ubwoko bwororwa n'abantu cane iyo bashaka inyama, ndetse hari n'abazikuragamo amagi go kujya.

Igihingwa c'iteke. Iki kikaba ari igihingwa gikundaga kuboneka ahantu henshi mu gihugu. Akaba ari ibihingwa biribwa cane, bikaba biteraga imbaraga ndetse binaryoha.

Imashini z'ibyuma zifite amapine ku ruhande zirambitse mu murima gw'ibigori ,harimo umugabo wambaye ishati n'ipantaro y'umukara, izi zikaba ari imashini zikoreshwaga mu gucucira ibigori.

Icyumba gisize amarangi gasa nk'ikijuju, kirimo isafuriya yuzuyemo inyanya， yegeranye n'ikidomoro cy'umuhondo， hariho imihoro irambitse ku meza，zirambitseho inyama，akaba arizo bacuruzaga.

Ikiraro cubakishijweibiti, kirimo umugabo wambaye ishati n'ingofero, uhagaze imbere y'imashini iri kwikaraga, iri gukata ibyatsi, ikaba ari imashini yifashishwaga mu gukata ibijyo by'inka.

Imbuto z'indimu z'icatsi harimo harimo imwe ikase, izi zikaba ari imbuto zifashishwaga mu gutegura ibiryo nka salade, ndetse zikaba zinaribwa kugira ngo habashe kuzuzwa indyo yuzuye.

Igihingwa cigihaza cicatsi, iki kikaba ari igihingwa kimega mu mirima ari kinin,i bakaba bakiryaga nk'imboga cyangwa se bakakivanga n'ibishimbo, bikabacinabonekaga mu turere tw'inshi.

Umugore wicaye kuri sima yaruhande rwe hari ibase y'ubururu n'agapani k'icatsi imbere ye hari umufuka gurambitseho imbuto zigiye zitandukanye ziririmo amatunda ndetse n'ibinyomoro.

Imbuto yitunda rimwe risatuye irindi ridasatuye akaba ari imbuto ziboneka mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu, ndetse zikaba zinakoreshwaga mu kugaburira abana babarinda iryo mbi.

Itsinda jy'abantu ririmo abagore n'abagabo harimo bamwe bicaye hasi, hari ibyatsi byumye n'abandi bahagaze akaba ari uko bahagarara guca iyo hari ikintu cyabaye, bagiye kugira ngo babone iby'ugwibutso.

Itsinda ry'abantu ririmo abagabo n'abagore bafite amasuka, barimo barahinga umurima waruri udahinze, uri imbere y'akazu gatoya gasakarishijwe ibiti.

Urubuto rwa avoka rukasemo kabiri w'icatsi rurambitse abantu h'umweru. Uru rukaba ari urubuto rwifashishwaga mu gutegura amafunguro guzuye ndetse no kurwanya imirire mibi z'abana.

Amatungo go mu rugo gasa umweru gitwa intama. Akaba ari intama eshatu zirimo akana, ziri kugendera mu byatsi biteyemo ibiti.

Umurima munini guteyemo ibimera by'imyumbati, harimo umugabo wambaye agapira k'umweru. Ufashe umupanga mu ntoki ibi bikaba ari ibihingwa, bikundaga kuboneka mu majyepfo. Kandi byifashishwaga kuribwa cane.

Abantu benshi bahagaze n'abari kugenda, bafite ibinyabiziga bigiye bitandukanye ari byo moto n'amagare, bose bahetse ibitoki akaba ari byo bagurishaga kugira ngo abantu babijye banavanemo n'imitobe.

Abantu bagiye batandukanye barimumugore, ndetse n'abagabo barimo abashinzwe umutekano, ba gisirikare ndetse n'abadasso bari kunyura mu kayira karirimo imirima y'ibigori.

Ikurete isa na move irambitsemo amagi menshi, akaba ari igikoresho gikoreshwaga kugira ngo amagi gabikwe neza gabe gatameneka.

Abagore batatu n'umugabo umwe bari mu murima gw'gishanga guhinzemo umuceri, barimo barakuramo ibyatsi bitari ngombwa kugira ngo umuceri guzakure neza.

Igihingwa c'icatsi kimwe cuzuye gifite amababi abiri, ikicegereye bakasemo kabiri, akaba ari igihingwa c'amapera cifashishwaga na co mu kugabanya imirire mibi z'abana.

Umurima gw'ibyatsi guzengurukijwe n'amabuye g'amakoro gagerekeranyije. Muri ugo murima hakaba harimo umufuka g'umweru gurimo ibihingwa, imbere y'ugo mufuka g'umweru hari igare ryifashishwaga mu gutwara ibyo bintu.

Abantu benshi bahuriye ku murima guhinzemo imitabo mitoya, bakaba ari abaturage barimo kwigishwa uburyo bateraga mu buryo bwa kijambere kugira ngo imisaruro ziyongere.

Ibisima byo mu isoko biriho ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo ibikoreshwaga mu gutunganya imboga ari byo, by'inyanya ,intoryi, karoti n'imiteja ndetse n'imbuto.

Umurima munini gw'ibigori bimajije gukura, harimo umugabo urimo urabyitaho yambaye igisurubeti c'ubururu, ibi bikaba ari ibihingwa bikoreshwaga mu gutegura amafunguro mu bujyo butandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'uburu n'ipantalo y'ugukuka, wunamye mu murima gushinzemo ibiti, guhinze mu buryo bwa kijambere ku murongo, kugira ngo ibihingwa bikure neza.

Umugore wambaye ibitenge ufashe mu ntoki impeke z'ibigori nyinshi, inyuma ye hari ibigori byinshi birambitse ku biti. Ubu bukaba ari ubujyo bwifashishwaga n'abahinzi kugira ngo ibigori byabo byume vuba.

Abantu benshi barimo abagore n'umugabo, bari mu murima gw'inanasi zigisa n'icatsi, bakaba barimo barazikorera kugira ngo zizakure zibyibuhe zimere neza, hakaba hari n'imbuto zikoreshwaga mu gutunganya amafunguro.

Umurima munini w'intoryi zirimo n'ibiti, ukaba ari umurima uhinze mu buryo bwa kijyambere, ubu bukaba ari ubuhinzi bukorwa n'abantu bashaka kugira ngo babone amafaranga nyuma y'uko bazigurishije.

Ibimera by'icatsi birebire birundanyije ahantu hamwe ari byo by'imiteja. Akaba ari ibimera bikoreshwaga bari gutegura amafunguro g'imboga, babivanga na karoti ndetse n'ibindi birungo bitandukanye.

Umusozi munini guhinzeho ibihingwa by'icatsi by'icayi birimo abagore bahetse ibitebo barimo kubisoroma bajugunya muri ibyo bitebo akaba ari icayi kivagamo amajani boherezaga hanze.

Ikimera ca voka gikasemo kabiri ndetse n'indi icegereye yuzuye. Izi ni imbuto zifashishwaga mu gutegura amafunguro gwuzuye, zikaba ziribwa iyo bari kuzirisha ibindi bijyo cane cane ibya kinyagwanda.

igitebo kinini kirimo imyumbati myinshi cirambitse hasi ku bitaka, hashinzemo n'ibiti imyumbati zivagaho, bikaba ari ibijyo biribwa cane mu Gwanda kandi bikaboneka mu turere twinshi two mu Gwanda.

Umugore wambaye igitenge ufashe mu ntoki impeke z'ibigori inyuma ye hari ibigori birambitse ku giti byumye. Akaba ari uburyo bukoreshwaga n'abahinzi kugira ngo ibigori byabo basaruye byumye.

Inzu yubakishijwe ibyuma munsi yayo, hari imifuka z'umweru n'icatsi zirunzemo imibirayi. Yegeranye n' abantu barimo kubicuruza, bikaba ari ibirayi bi gugwaga n'abantu ndetse n'inzu zicuruzaga ibiryo.

Umufuka g'umweru gurambitse hasi iruhande rwa sima. Ndetse n'ahandi ku ruhande hariho ibitaka, akaba ari umufuka gurambitseho ibihaza bine. Ibi bikaba ari ibiryo byifashishwaga mu gutegura amafunguro ga buri munsi.

Igihingwa c'inyanya zigisa nk'icyatsi ziri mu murima baziritse ku giti, kikaba ari igihingwa gikoreshwaga mu gutokoza ibijyo iyo barimo kubiteka.

Umurima munini guhinzemo ibihingwa by'icatsi by'icayi, guhagazemo abagabo babiri n'abagore babiri, akaba ari ibihingwa bikorwagamo amajyani gacuruzwaga hanze y'igihugu.

Umurima munini guhinzemo ibimera mu buryo bwa kijambere. Harimo imashini igezweho yifashishwaga mu kuhira ibihingwa kugira ngo bibashe kuba byabona amazi gahagije mu gihe c'izuba cinshi.

Umurima munini guhinzemo ibihingwa by'ibirayi, bihagazemo umugabo ufite ipompo hejuru ku mugongo urimo urabitera imiti, bukaba ari uburyo bukoreshwaga kugira ngo hicwe udukoko tubyangizaga.

Ikimera c'icatsi， gifite indabo z'umutuku， ndetse n'udusogwe tumeze nk'imiteja， kikaba ari ikimera kibonekaga mu mashamba， ndetse no mu bigunda， aho abantu bakuraho uturabo two gutaka mu mazu.

Umufuka g'umuhondo guciyemo akarongo k'ubururu gurimo impeke z'ibigori , hejuru y'izo mpeke harambitseho ubugemeri bw'icatsi n'ak'umuhondo bikaba ari ibigori by'umuhondo bikorwagamo ifu y'umuhodo.

Imifuka z'umweru zijombyemo ibigori byumye, ibi bikaba ari ibyo bakoragamo amafu, ndetse bakaba banabijyaga bimeze gutya nk'amahundo.

Ibigori by'umuhondo bigifite utubabi dukeya tw'icatsi ibi bikaba ari ibigori bya kinyarwanda bateraga kugira ngo bazakoremo kawunga y'umuhondo cangwa se bakabyotsa.

Akagemeri k'umweru karimo impeke z'ibigori n'izindi mpeke z'ibigori zirambitse hasi, ibi bikaba ari ibigori bikoreshwaga mu gukora amafu ndetse no kubirya bimeze guco.

Abagore babiri bambaye ibitenge. Bahagaze bazengurutse ibishimbo bikiri mu bishishwa byabyo basaruranaga nabyo, bafashe inkoni bari kubihura. Ku ruhande gwabo hari ibitoki byinshi.

Igihangano c'ubukorikori gikoreshwaga intoki c'igitebo, kikaba ari igikoresho ca kera cakoreshwaga mu kubikamo ibintu nk'ibishimbo n'ibigori, kikaba gikorwaga n'intoki mu biti.

Abagore babiri bitandiye nk'abayisilamu umwe ufashe akagemiri undi afashe igisafuriya kinini, bakaba bahagaze imbere y'akayukonguruzo gakoreshwaga mu kuyungurura, ndetse no kugosora impeke.

Ikirundo cy'ibimera bitangiye gumera, aho bukaba ari uburyo bwifashishwaga mu byumba by'amasuzumiro bya laboratwari, igihe bashaka gukuza ibi ibimera bizatanga umusaruro mwinshi.

Agasahani ka pulasitiki karimo ifu y'ubunyobwa, iruhande gwako hari inkoko iriho ubunyobwa bukiri impeke, bukabari bwifashishwaga mu gukora imboga zijyoshe.

Inzu irimo ibyuma isakarishijwe amashashi g'umweru, muri ago mashashi hakaba hahinzemo imitabo igiye irimo imigozi, ibi bikaba ari byo bakoreshaga bari guhinga ibintu muri RAB.

Ikimera cy'icatsi c'igihwagari kibaga gifite indabo z'umuhondo, iki kikaba ari ikimera cyifashishwaga mu gukora amavuta turyaga.

Itsinda ry'impeke ry'amashaza, zikaba ari impeke zifashishwaga mu guteka imboga kugira ngo hategurwe amafunguro guzuye, ndetse n'iyo zumye zikaba zikoreshwaga mu gutegura ibikoma by'abana.

Imbuto zitangiye kumera z'umukara zirundanyije ahantu hamwe, ubu akaba ari uburyo bukoreshwaga n'abashakashatsi bashaka kugurisha imbuto zivuguruye.

Amvirope y'umweruru irimo ubunyobwa bukiri mu bishishwa burambitse ku kibaho c'umutuku, zikaba ari impeke z'ubunyobwa zitari zakugwa mu bishishwa, zikaba zikimeze nk'uko bazikuraga mu murima.

Umurima gw'ibigori bwumye. ku ruhande hari umucaca gw'ibyatsi by'icatsi. Hagati hari kunyuramo umugezi w'agasoko gatoya. Ibi bikaba abahinzi babikora kugira ngo ibigori byume neza bikiri mu murima.

Ibishyimbo bikiri mu bishishwa byabyo hari n'ibindi basogoye, bakabivana mu bishishwa byabyo ibishyimbo bakaba babyitaga inonori, bikaba ari ibishyimbo biryohaga cane.

Impeke z'ibigori by'umutuku bitangiye kumera, birundanyije ahantu hamwe, bukaba ari ubujyo bukoreshwaga n'abavumbuzi iyo bashaka kugira ngo bakore ibigori bitangaga umusaruro mwinshi.

Intoki ebyiri zifite nk'imbere, ibihingwa by'igano biki mu bishishwa byabyo, bikaba ibi ibihingwa bivagamo ifu yo gukoresha imbaga.

Imifuka z'umuhondo zirimo impeke zigiye zitandukanye zigizwe n'imiceri, ingano n'ibindi bigiye bitandukanye akaba ari impeke zitekwaga ndetse n'izindi zikavamo amafu.

Inzu yubakishijwe ibidara by'umweru bibonerana. Irimo ibihingwa ku ruhande byumye ndetse n'akameza, karambitseho impeke zigiye zitandukanye z'umuhondo. Munsi yako harimo ibintu by'ubururu.

Ibigori byinshi bisa umuhondo birambitse hasi bakuyeho ibiba bikaba ari ibigori bya kinyagwanda babaga bahinze kugira ngo havemo kawunga y'umuhondo.

Umufuka g'umweru gurimo ibihingwa by'ibishimbo, ibi bikaba ari ibihingwa bigiraga imyunyu ngugu myinshi ndetse byifashishwaga no gutegura amafunguro ga buri munsi mu banyagwanda.

Umufuka g'umuhondo gurimo ibihingwa by'umukara birambitsa ahantu by'umweru, akaba ari imifuka zibikwagamo ibintu bigiye bitandukanye.

Inzu zubakishijwe amategura, zifite ibiti mo imbere bimanitse ibishimbo, abahinzi bamanikagaho kugira ngo byume ubundi babone kubisogora havemo impeke z'ibishimbo.

Umugore wambaye igitenge n'agapfukamunwa, wicaye hasi arimo ararobanura impeke y'ibigori, azishira mu base y'icatsi imwegeye hepfo yaho hari moto.

Idebe ry'icuma ririmo ibishimbo ryegeranye n'akagemeri karimo ibishimbo by'umutuku. Ibi bikaba ari ibishimbo byifashishwaga mu gutegura amafunguro gagiye gatandukanye bikaba biribwa n'Abanyarwanda benshi.

Umurima munini guhinzemo ibihingwa by'icatsi, mo hagati yaho haragatsemo ibitebo binini birimo ibi ibihingwa bikiri mu bishushangwa byabyo akaba ari uburyo bukoreshwa no gusarura n'ubunyoga.

Inka enye ziri mu bwatsi bw'icatsi, akaba ari inka za cizungu harimo iy'umukara n'umweru n'indi y'umuhondo n'umweru, zikaba ari inka zitangaga amata menshi ndetse n'ifumbire ikoreshwaga mu guhinga.

Itungo ry'inkoko rikiri ritoya akaba ari inkoko bororaga kugira ngo zivemo inkoko nini z'inyama cangwa zitanga amagi, zikaba ziri hasi hegeye aho zifatiraga amazi.

Umugabo wambaye igisurubeti c'icatsi uri ahantu hakikijwe n'ibiti n'imbere harimo inka y'umweru n'umukara , akaba ari umuntu aba ushinzwe kuzivura . Abaveterineri bitaga ku nka kugira bazivure indwara zigiye zitandukanye.

Inka za kizungu, imwe y'umukara n'umweru yegeranye n'iy'umuhondo n'umweru, ziri kurisha ugwatsi gw'icyatsi by'urubingo ,izi zikaba ari inka zitangaga amata menshi.

Icumba cubakishijwe ibyuma bifashe inyama z'inka nyinshi, aho ari ibyuma bikoreshwaga kugira ngo bifate izo nyama z'inka barangije gukuraho uruhu, kugira ngo ababazi bazikate neza.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti, imbere yaco hari abantu bambaye amataburiya g'icatsi, harimo n'umugore utambaye itaburiya. Bikaba ari ibiraro bikoreshwaga mu kororeramo cane ingurube.

Ingurube y'ingore iryamye hasi iri koza ibyana byayo, ikaba ari inyamaswa bororeraga mu rugo cane iyo bashaka kuzayigurisha kugira ibashe gutanga inyama zo kujya.

Abantu benshi bahagaze barimo abagabo n'abagore. Harimo umugabo ufashe itungo ry'ihene ry'umuhondo akaba bibacane yari mu isoko ry'amatungo.

Itungo ry'umweru riri mu twatsi twumye rifite utwana dutanu turi kuryonka, rikaba ari itungo ry'urukwavu yororerwaga mu ngo kugira ngo hazavemo inyama zo kurya.

Abagabo babiri bambaye amataburiya g'umweru, bahagaze mu nzu isakaye, yubakishije ibiti, irimo inyamaswa y'ingurube yorogwaga kugira ngo bazabone inyama.

Inka ebyiri za kizungu zofite amabara g'umweru n'ag'umukara, ziri ahantu hari ibyatsi by'icatsi byinshi, iyo nka imwe muri zo ikaba irimo gukamwa n'umuntu uri mu nsi yayo.

Amatungo abiri g'inkoko imwe g'umukara n'umweru indi y'umuhondo n'umukara ziri ahantu hari ibyatsi mu cumba cubakishijwe sima izi zikabara ari amatungo gorogwaga kugira ngo gatange amagi ndetse n'inyama.

Itungo jyo mu rugo jy'ihene, iri rikaba ari itungo jyorogwaga n'abantu benshi bagiye batandukanye, rikaba ari itungo jy'umweru n'umukara rihagaze mu byatsi by'icatsi.

Agakanete k'umweru karambitseho imishwi za kizungu, zikaba ari imishwi zikogwaga kugira ngo zibashe kuba zakura vuba, zongera imisaruro ikomoka ku nkoko.

Umugabo wambaye bote n'igisurubeti c'ubururu, uhagaze imbere y'umunzani uriho akabasi k'ubururu, uhagaze n'umushwi w'inkoko uri kumwe n'izindi mishwi ziri ahantu bazororera.

Inyamaswa y'ishyamba ifite amabara g'umuhondo garimo utudomo tw'umukara, ijya kumera nk'ipusi ariko yitwaga akayongwe. Iyi ikaba ari inyamaswa zijyaga inkoko zo mu bantu.

Inyamaswa yo mu ishyamba, yihisha ihagaze mu byatsi, nyuma yayo hari igihuru cy'ibyatsi, iyi ikaba ari inyamaswa ikunda guhigwa n'inyamaswa zirya inyama, ndetse ikaba ari n'inyamaswa yahigwaga kera n'abakurambere.

Inyamaswa yo mu ishamba y'inkende iryamye ku giti c'icatsi. Izi zikaba ari inyamaswa zikururaga ba mukerarugendo, iyo ziri mu byanya nyaburanga byabugenewe.

Inyamaswa y'igikeri nyamabondo ikaba ari inyamaswa iboneka ahantu henshi mu gihugu, ndetse ikaba ari inyamaswa iba ari ntoya, zikaba zinakururaga abakerarugendo iyo ziri mu bishanga ndetse no mu bindi byanya nyaburanga.

Inyoni ifite amabara g'umuhondo n'ag'umukara. Ihagaze ku gati kumye, munsi hariho amababi y'icatsi. Iyi na yo ikaba iri mu nyoni zikururaga ba mukerarugendo, iyo iri ahantu cyane hameze nko mu birunga cangwa muri Nyungwe.

Inyamaswa yamabara ya oranje n'umweru ikaba ari inyamaswa yo mu ishamba y'isha iri mu byatsi by'icatsi ikaba ari inyamaswa ikundaga guhigwa n'intare ndetse n'izindi zijyaga inyama.

Inyoni iri kuguruka mu kirere isa umukara n'umweru, ifite n'umunwa w'umuhondo. Ikaba ari inyamaswa, akaba ari inyoni zikunda kuboneka iruhande rw'ibiyaga ndetse n'ibishanga. Zikaba zinarya ibikomoka muri ibyo bishanga.

Inyoni ifite amabara g'ubururu n'umuhondo, ikaba ari inyoni y'inuma, ikaba ari n'inyoni bororaga, ariko inyinshi zikaba zibaga mu mashamba, zijyaga impeke zisanzwe.

Ubwoko bw'inyende z'umweru n'umukara ebyiri muri zo zifite utwana zikaba zihagaze ku biti hejuru zikaba ziri mu nyamaswa zikururaga ba Mukerarugendo iyo ziri muri pariki.

Inyamaswa zo mu ishamba zigiraga amacumu ku mugongo y'umweru n'umukara zikaba zitwa ibinyogote, ziri ahantu h'ibitaka zikaba ari n'inyamaswa zikururaga ba mukerarugendo iyo ziri muri pariki z'ibirunga.

Inyoni y' agaca ihagaze ku giti cumye, ifite amabara y' umweru n' ay' umukara; iyi ikaba ari nyoni ikunda guhigira mu giturage, aho ikunda gufata inkoko ndetse n' imbeba ikazirya.

Akanyamaswa ko mu ishamba kisha gahagaze ahantu hari ibyatsi, imbere yako hari ikigunda c'ibyatsi, tukaba ari utunyamaswa turibwaga n'inyamaswa ziryaga inyama, ndetse tukaba tunakururaga ba mukerarugendo.

Inyoni ebyiri zegeranye zifite amabara g'umweru, umukara n'umuhondo, n'umutuku, zihagaze mu bwatsi bunini izi zikaba ari inyamaswa zikundaga kuboneka, iruhande rw'ibiyaga zikaba inyamaswa z'imisambi.

Inyamaswa y'ingagi y'umukara yicaye ifashe ibyatsi mu kanwa inyuma yayo hari ibindi byatsi. Izi zikaba ari inyamaswa zikururaga ba mukerarugendo bakishura amadovi zibitewe n'ubwiza bwazo.

Inyoni igizwe n'amabara g'umweru n'umukara ihagaze ku butaka butagira ibyatsiba, ikaba ari inyoni y' inyamanza ayi nyoni ikaba ikundaga kuboneka mu mashamba go muri karitsiye, ndetse no mu bice byinshi bigiye bitandukanye.

Inyoni ifite amabara g'umutuku n'ag' umukara yitwa ifundi ihagaze hasi hari ibitaka. Izi zikaba ari inyoni zijyaga impeke kandi zibonekaga muduce twinshi two mu gihugu.

Inyamaswa yo mu ishyamba y'ingwe, iri kumwe n'akana kayo ku butaka bwumye burimo ibyatsi byumye, ikaba ari inyamaswa ikundaga kuboneka mu byanya nyaburanga cane mu Akagera.